Umugabo wambaye ishati y'umweru n'akajire k'umukara, akaba yifashe mu maso asinziriye, akaba ari umugabo w'umwirabura, inyuma ye hakaba hagaragara umukara uvanze n'umweru byerurutse cyane.

Icyapa kimanitse kiriho umugore n'umwana, umugore ubona ko yasetse n'umwana wasetse, akaba ari icyapa kiri mu ibara rijya gusa nk'umukara, inyuguti ziri mu magambo y'umweru n'umuhondo.

Abantu babiri bari mu modoka harimo umugore n'umugabo, umugore akaba yambaye ishati y'umweru akaba afite imisatsi myinshi idasutse, umugabo akaba yambaye agapira ka kake, bakaba bari mu modoka ifite intebe na vora bya kaki.

Icyapa kiriho bantu babiri akaba ari umugore n'umugabo, umugore wasetse cyane w'umuzungu akaba yambaye agapira k'umweru akaba afashe n'amafaranga menshi, umugabo na we akaba ari umuzungu ufashe akantu mu ntoki.

Abagabo batatu hakaba harimo uwambaye agapira k'umutuku n'undi wambaye la kosite y'umweru n'amarinete n'ipantaro y'umukara, uri kureba hasi, bakaba bari kumwe n'undi mugabo wambaye la kosite y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi. Bakaba bari imbere y'icyapa cyanditseho muwa.

Icyapa kiriho imodoka y'umukara, ifunguye buto hakaba harimo umuntu utagaragara igice cyo hejuru akaba agaragara, amaguru gusa akaba yambaye umwenda w'ubururu n'inkweto, za ntunshingeho.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara rya kositimu, ishati y'umweru na karavate akaba ari umuzungu akaba ari ku cyapa gifite ibara ry'umutuku cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi magambo ari mu ibara ry'umukara.

Iduka ririmo imyenda imanitse ku maporitomanto n'iyindi iri mu tubati, hakaba hari akatajeri karimo inkweto zitagaragara neza hakaba arimo agatebe k'umweru.

Amashati amanitse, akaba afite amabara atandukanye umuhondo, umutuku, pinki n'umuhondo werurutse, bikaba biri munzu, ifite urukuta rw'amatafari.

Isakoshi ifite ibara ry'umukara, ikaba ifite utuntu bafata tw'umukara aho bayifungurira hafite akabara k'umweru n'umukara urimo hagati, ikaba iteretse ahantu hatagaragara neza.

Imyenda y'amashati myinshi imanitse kuri poruto manto zigeze zifite amabara atandukanye, hakaba hari n'indi myinshi itagaragara iri hirya nayo imanitse ku maparuto manto urino mu tubati.

Akayitajeri kamanitseho inkweto nyinshi z'ubwoko bugiye butandukanye: z'umweru, umutuku, umuhondo, nshongo z'umukara n'ubundi bwoko bwinshi bugiye butandukanye.

Inzu irimo imitako myinshi, ikaba ifite inkuta zirimo imitako igiye itandukanye, amatara y'umuhondo, ikaba ifite ibirahuri bibonerarana.

Ibitenge byinshi bimwe bikaba bimanitse, ibindi bikaba bizinze, bigerekeranyije. Akaba ari ibitenge bifite amabara menshi, agiye atandukanye, akaba ari ubwoko bwinshi, bugiye butandukanye.

Inzu irimo imyenda myinshi ikaba irimo abantu babiri umugore umwe w'umuzungu ndetse n'umugabo umwe w'umwirabura wambaye agapira ka lakosite ipantaro y'umukara wasetse mugihe umuzungu we yambaye agapira k'icyatsi imbere hakaba hateretse mashini ya laputopu.

Ibitenge byinshi bizinze biri ahantu hamwe, ibindi bikaba bimanitse, akaba ari ibitenge by'ubwoko bugiye butandukanye bigiye bifite amabara agiye atandukanye.

Ikanzu y'ibara ry'umweru ikaba yambaye igipupe bimwe bamanikaho imyenda ikaba iri mu nzu ifite amakaro y'umweru, inyuma haba hari akabati kariho utu etajeri k'umweru.

Amakote amanitse kuri porotomanto, inyuma yayo hakaba hari igikuta cy'umweru kitagaragara neza, hejuru hakaba hari parafo iriho itara riri kumurika umweru.

Ibipupe byo mu bwoko bwa maneke byamamariza imyenda akaba ari bitatu bikaba byambaye imyenda y'abakobwa harimo icyambaye ikanzu ndende igera ku maguru n'ikindi cyambaye ikanzu y'umutuku igera hasi, ikindi kikaba cyambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara ikindi kikaba cyambaye ikanzu y'umweru.

Imodoka za kwasiteri zifite ibara ry'umweru akaba ari imodoka ebyiri zigaragara zikaba ziparitse ahantu hameze nk'umukizo akaba ari imodoka za volukano.

Imodoka ifite ibara ry'umukara ya toyota ikaba igurishwa miliyoni mirongo itatu, ikaba iparitse mu mbuga nini, inyuma yayo hakaba hagaragara amazu atagaragara neza.

Imodoka yo mu bwoko bwa yundayi ikaba iparitse ikaba igurishwa miliyoni umunani inyuma yayo hakaba hari amazu atagaragara neza ya maetage ndetse n'ibiti.

Imodoka ifite imiryango ibiri inyuma ikaba ifite ahantu hajya imizigo, imbere yayo hakaba hari abagabo babiri umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro, undi akaba ari umuzungu bakaba bafite urufunguzo rwa Ebiji akagera motozi.

Imodoka y'umukara iri mu bwoko bwa yundayi ikaba igurishwa miliyoni cumi n'ebyiri ikaba iparitse, aho iparitse hakaba hakikijwe n'ibiti byinshi.

Imodoka y'umukara yo mu bwoko bwa kiya, ikaba iparitse hirya hakaba hari andi ma modoka gusa atagaragara neza harimo nk'iy'umweru ndetse n'indi itagaragara neza. Imodoka ya kiya ikaba ifite plake zanditseho Kigali karizi maketi.

Ifite ibara ry'umweru itwara imizigo, hirya yayo hakaba ari ikimodoka gikora umuhanda kikaba gifite ibara ry'umuhondo, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, akaba ari jisibi, hejuru yabyo hakaba hari insinga ziri kunyuranamo nyinshi z'umukara.

Imodoka ifite purake ya raf maganacyenda makumyabiri na karindwi s mbere yayo hakaba hari abantu babiri umugore n'umugabo bahanye igipapuro cy'umweru kimeze nk'urufunguzo nyuma yabo hakaba hari inzu iri kwakaho amagambo yanditse ati akagera motozi.

imodoka ifite ibara ry'umweru ya toyota ikaba iparitse mu nzu irimo amakaro y'umweru imbere hakabara idirishya rifite ibirahure bibonera ikaba ifite inkuta z'umweru Imodoka ifite ibara ry'umweru ya Toyota, ikaba iparitse mu nzu irimo amakaro y'umweru, imbere hakaba idirishya rifite ibirahure bibonerana, ikaba ifite n'inkuta z'umweru.

Imodoka y'umukara, ikaba iparitse, ahagakwiye kuba ari purake hakaba handitse viyayipi. Hiryayo hakaba ari amazu menshi.

Amazu ari imbere y'umuhanda akaba amanitseho icyapa cya Yundayi n'andi madarapo yanditseho Yundayi ari mu ibara ry'ubururu, umweru n'ubururu, imbere y'ayo mazu hakaba haparitse amamodoka agiye atandukanye.

Abagabo babiri bakaba bari imbere y'imodoka ifite ibara ry'umweru yo mu bwoko fuso, akaba ari imodoka ifite purake maganatatu na cumi a eri, akaba ari abagabo bafite urufunguzo rwanditseho eyi biji, Akagera motozi.

Imodoka ifite ibara ry'umukara yo mu bwoko bwa Yundayi inyuma kuri purake hakaba handitse Kigali kazi maketi hirya yayo hakaba haparitse andi mamodoka inyuma yayo hakaba hari inzu.

Imodoka y'umweru inyuma yayo hakaba hari inzu iparitsemo izindi modoka, imbere yayo hakaba hari abantu bane abazungu batatu n'umwirabura umwe.

Imodoka ebyiri ziparitse, zikaba zitagaragara pulake. Inyuma yazo hakaba hari itente y'umweru yanditseho ABG biri mu nyuguti z'umukara.

Abantu babiri harimo umugore wambaye agashati k'umukara karimo uturongo tw'umweru n'undi wambaye agapfukamunwa akaba ari umugabo utagaragara neza, umugore akaba ari imbere mu birarahure imbere ye hakaba hateretse mashini hari n'icyapa cya wesitani yunoyoni kiri mu ibara ry'umuhondo n'umukara.

Abantu babiri akaba arimo uwutagaragara neza bakaba bahagaze ahantu hari inkuta z'icyatsi ndetse n'ibirahuri bibonerana.

Abagore babiri umwe akaba ari imbere yambaye ikote ry'umukara n'ishati y yuumweru akaba ari inyuma y'ibirahure wambaye ishati yumutuku'umurongo akaba ari gusinya cyangwa se ari kwandika

Abantu batatu bahagaze hakaba harimo abagore babiri, umugabo umwe wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru, imbere yabo akaba hari umumama wicaye wambaye imyenda y'umakara.

Umugabo w'umwirabura akaba yambaye ishati imberekaba ari akamashini kaba ari amafaranga hakaba anateretse inote nyinshi cyane z'ijana zo mu madorari akaba ari inote udupaki twinshi duturutse ku meza akaba hari nanone imbere ye.

Ufite amafaranga mu ntoki hakaba hari undi mugore uri imbere gusa bakaba batandukanywa n'ikirahure, wicaye ku ntebe y'umukara imbere ye hakaba ari utumashini tubara amafaranga karikireta ndetse n'ibindi.

Abagore babiri bambaye amakoti y'umukara, rakosite z'ubururu, imbere yabo akaba yateretse imashini za HP zifite ibara ry'umukara, inyuma yabo hakaba handitse amagambo banki ofu Kigali ari mu ibara ry'ubururu, n'andi magambo ari mu ibara ry'umuhondo yanditseho purayiveti bankingi senta.

Iyi nzu irimo firigo ifite ibara ry'umweru ikonjesha amata hakaba harimo abantu babiri, umwe akaba ari kuvoma amata muri firigo hasi hakaba hari indobo y'ubururu ikaba ifite etageri zirimo ibindi bicuruzwa.

Amandazi menshi ari ku isahane, irindazi rimwe rikaba risatuyemo, akaba ari ahantu ku gitambaro cy'umweru.

Abantu batatu barimo umukobwa umwe ndetse n'abagabo babiri, umukobwa akaba yambaye rakosite y'umutuku n'ipantaro y'ico n'ingofero akaba afite ibintu bibiri mu ntoki byo kunywa, umugabo nawe akaba yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro akaba afite nawe yahurutse mu ntoki umuhungu nawe akaba yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'ikoboyita akaba afite na yawurute mu ntoki.

Inzu ifite inkuta z'ubururu ikafite parafo y'umweru utu etajeri tw'ubururu turimo udukarito tw'Inyange n'udukarito twa ji za pome, ndetse hakaba hari ameza ateretseho indobo irimo amandazi n'indi irimo capati.

Abantu batatu babiri bakaba bicaye, umwe akaba ari umwana uri kunywa amata n'undi akaba ari kunywa amata yambaye agashati k'umuhondo, uhagaze akaba ari umugabo utagaragara mu maso, wambaye rakosita y'umweru irimo n'akaworanje, imbere yabo hakaba hateretse utubido.

Igikombe cy'amata giteretse hejuru y'imez, hirya hakaba hariyo umugore wambaye imyenda y'ibitenge, utagaragara mu maso na we, imbere hakaba hateretseho igikombe cy'umweru, hirya hakaba hari firigo ifite ibara ry'umutuku.

Icyapa kiri kwaka hakaba hari ikindi cyapa cyanditseho Inyange bikaba byanditse mu magambo y'umweru, imbere yacyo hakaba hari imodoka itagaragara neza y'umweru.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge, akaba yicaye, imbere ye hakaba hateretse igikombe cy'umweru kirimo icyayi, ndetse n'ikiyiko. Akaba inyuma ye hari icyapa kiririho icupa rya coca cola gifite ibara ry'umutuku.

Inzu ifite ibara ry'ubururu ikaba irimo etajeri iriho udukarito twa ji z'Inyange ndetse n'udukarito tw'amata, hakaba harimo uducupa tw'amazi, uducupa twa ji n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Abantu babiri barimo umugore ndetse n'umugabo umwe, umugore akaba yambaye ikote ry'umukara n'agapira k'ubururu, akaba ateruye igikarito. Akaba afite telefoni mu ntoki, mu gihe umugabo yambaye agapira k'umuhondo, ipantaro y'umukara nawe akaba afite telefone mu ntoki.

Amafaranga ari mu biganza, akaba ari amafaranga menshi, hakaba hagaragara intoki z'umuntu uyafite, gusa akaba atagaragara mu maso akaba azirikeshijwe na fimbo.

Intoki ziri kubara amafaranga akaba ari amafaranga y'u Rwanda, imbere y'izo ntoki hakaba hari icyapa cya eyateri ndetse na telefoni y'amatushe ya eyateri.

Inote ifite ibara ry'icyatsi, akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Tanzania, ikaba iriho umugabo, akaba ari inote y'igihumbi.

Amafaranga igihumbi, akaba ari amafaranga y'inote yo muri Tanzaniya, akaba ariho umugabo imbere ndetse inyuma y'iyo noti hakaba hariho amazu menshi agaragara kuri iyo note.

Abantu bicaye batagaragara neza, hakaba hari undi muntu ufite amafaranga gusa utagaragara mu maso, hakaba hari amafaranga menshi atagaragara neza gusa buri noti akaba ari iy'igihumbi.

Amafaranga y'idolari akaba ari inote y'ijana ikaba iriho umugabo ufite imisatsi myinshi w'umuzungu, ikaba iteretse hejuru y'ayandi mafaranga harimo inoti ya sekani y'iyero ndetse n'andi y'ubwoko bwinshi gusa akaba ari amadolari.

Amafaranga y'ubwoko bugiye butandukanye akaba ateretse ahantu hamwe, inoti y'igihumbi, inoti ya magana atanu, inoti magana abiri, hakaba hari n'andi atagaragara imibare yanditseho.

Inote nyinshi hakaba harimo inote ya magana atanu y'iyero, inote ya magana abiri y'iyero ndetse n'inote y'ijana y'iyero, inote ya mirongo itanu y'iyero, inote ya makumyabiri y'iyero, inote y'icumi y'iyero ndetse n'inote y'atanu y'iyero.

Imashini y'umweru ibara amafaranga, ikaba iri kubara amafaranga y'amadorari y'ijana, hirya hakaba hari ibiganza by'umuzungu.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru utagaragara neza, akaba afite amafaranga menshi mu ntoki ze, akaba afite na fimbo, inyuma ye hakaba hari undi mugabo uri kuvugira kuri fone gusa ugaragara ibiyeziyezi.

Inzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru. Ikaba ifite icyapa kimanitse hejuru y'umuryango, kiri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'amagambo akaba yanditse mu ibara ry'umweru, imiryango yayo ikaba ifunguye, mo imbere hakaba hagaragaramo umuntu.

Imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo akaba ari nyinshi, hakaba harimo imodoka ebyiri zifite ibara ry'umweru, imwe ikaba ijya imbere indi ikaba ijya inyuma, hakaba hari n'indi modoka y'umukara, umuhanda zirimo hakaba hari inzu nini.

Umugabo utagaragara mu maso, wambaye umupira usa nk'ubururu bwijimye ndetse unafite ibara rya roje barudo, akaba ari kwandika imibare ku cyapa kimuri imbere.

Abantu batatu, babiri bakaba bari imbere muri kontwari harimo umugore umwe wambaye agase k'umukara n'umugabo wambaye agapira k'umweru, hakaba hari undi uri imbere yabo wambaye agapira ka rakositi, karimo uturongo ndetse n'ipantaro y'umukara.

Intoki zifite amafaranga y'amadolari hakaba hari izindi ntoki z'umuzungu ziri kuyakira uri kwakira akaba yambaye ishati ijya gusa n'umweruru akaba atagaragara mu maso.

Intebe zifite ibara ry'icyatsi, zikaba ziri muri salon ifite urukuta rujya rusa nku'ubururu amakaro y'umweru. Hagati muri izo ntebe akaba ari imeza hejuru ifite ibara ry'umweru.

Intebe esheshatu zifite ibara rijya gusa umutuku, hagati hakaba harimo imeza y'umutuku, bikaba biri imbere y'inzu ifite ibara ry'umweru amadirishya y'umukara.

Etajeri yometse ku gikuta; ikaba imanitseho indabyo ziri mu mavase y'umweru, akaba ari amavaze ane n'indabyo enye bikaba biri ku gikuta gifite ibara ry'umweru.

Intebe rifite ibarajya gusa nk'umutuku, agaba arimo imeza, riuteretseho ibintu, akaba ari intebe zirenze eshatu, zikaba ziteretse mu nzu.

Intebe esheshatu, hagati yazo harimo imeza iteretseho ibintu, hirya hakaba hari akabati, bikaba biri mu nzu ya etaje ifite amayesikariye.

Pisine imbere yayo hakaba hari jaride zirimo ameza y'umukara, n'udutebe dutatu tw'umukara, akaba ari jaride irimo imitaka gusa igaragara hejuru.

Intebe zifite ibara ry'umukara, zikaba hagati yazo harimo imeza ifite ikirahure kibonerana, hejuru yazo hkaba hagiye hariho imitaka.

Inzu za etaje ebyiri zikaba zifite igisenge gifite ibara ry'umutuku, akaba ari inzu zifite ibara ry'umweru, igipangu cyazo kikaba gifunguye inyuma hakaba ari uduti.

Inzu ifite ibara ry'umweru ya etaje imbere yayo hakaba hari pisine ifite ibara ry'ubururu hirya hakaba hari intebe z'umweru nyinshi zigiye zifite imitaka.

Umuhanda imbere yawo hakaba hari amamodoka menshi aparitse, hakaba hari icyapa kibuza kuhanyura kimwe mu ibara ry'umutuku birangago by'umweru, hakaba hari inzu ndende ya etaje imbere yayo hakaba hari amapoto ari gucana amatara y'umuhondo.

Umugabo umwe uri mu nzu wambaye ikoti ry'umukara, n'ishati y'umweru, akaba ari mu nzu ifite inkingi z'umukara, iinkuta z'umukara n'umweru ikaba ifite purafo y'umweru.

Pisine ndende, imbere yayo hakaba hari amazu afite amadirishya abonerana, hakaba hari intebe abantu baryamaho, ziriho imitaka y'ubururu hejuru.

Akayitajeri gafite ibara ry'umutuku kariho n'ibirahure, kakaba karimo inzoga zitandukanye harimo amarikeri n'ubundi bwoko.

inzu nini ifite inkingi za kaki ikaba ifite profe y'umweru ikaba imanitseho amatara menshi ari kwaka umweru ikaba ifite amakaro y'umweru arimo n'umukara.

Abagabo benshi harimo abambaye amakositimu n'abandi bambaye amashati y'umweru, imbere yabo hakaba hagaragara umuntu wambaye akagofero wahindukiye utagaragara mu mu maso.

ni inzu ifite ibara ry'umuhondo, ikaba imanitseho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hakaba hari amagambo yanditse mu gice cy'ubururu, yandikishi ibara ry'umweru n'andi ari mu gice cy'umuhondo yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Imodoka ebyiri ziparitse hakaba harimo iy'umweru nindi vatiri iri inyuma ijya gusa nka kacyi, hakaba hari abantu batatu, hakaba harimo umugabo umwe ufite indobo.

Inzu iriho ibyapa bitatu bya Prime Insurance, bikaba ari ibyapa bifite ibara ry'ubururu, akaba imbere y'iyo nzu hahagaze abantu batatu bambaye imipira y'umweru.

Abantu batatu bakaba bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo hakaba hari imeza ndende y'umweru hakaba imbere y'abo hateretse uducupa tw'amazi inyuma hakaba hari ibyapa byinshi byo kwamamaza.

Iyi nzu ifite ibara ry'umu ry'umuhondo, imbere yayo akaba ari amavaze arimo indabyo, ndetse hakaba hari n'umwanya utarimo abantu, akaba ari inzu ikikijwe n'izindi nzu hirya no hino.

Umugore wambaye ikanzu akaba afite imashini mu ntoki ya raputopu, akaba afite imisatsi myinshi miremire, akaba inyuma ye hari amakarita ya BPR.

Umugore ufite imisatsi myinshi akaba yambaye amarinete afite ibirahuri bibonerana, akaba yambaye agapira k'umweru karimo uturongogo tw'umukara, afite ikayi y'umutuku mu ntoki.

Umugore wifashe mu mutwe, akaba yambaye ishati y'umweru, akaba afite imisatsi itari myinshi cyane y'umukara idasutse, inyuma ye hakaba hari amafaranga y'u Rwanda y'ibihumbi bitanu ariko akaba ari inote ebyiri.

Umukuru w'igihugu w'u Rwanda izegiserensi Paul Kagame akaba yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, ishati y'umweru karuvate y'umukara, amarinete abonerana afite ibirahuri bibonerana.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, akaba yasetse, akaba afite agapapuro mu ntoki, ndetse imbere ye hakaba hateretse na mashini, inyuma ye hakaba hagaragara umweru.

Umugore ufite imisatsi y'umukara wasetse, akaba yambaye agapira ka runiga, akaba afite ikintu mu ntoki kirekire, inyuma ye yakaba hagaragara umweru n'ibindi bintu bitagaragara neza biriho igihu.

Umugore n'umugabo umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'mweru na ne. Umugore akaba yambaye agakanzu k'umweru, akaba afite amaherena ku gutwi hirya yaho hakaba hari inzu ndetse n'inyuma yabo hakaba hari indi nzu ifite igisenge gifite amabati ajya gusa umukara.

Abagore batanu bambaye imikenyero ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, bakaba bambaye udusengeri tw'umutuku. Imbere yabo hakaba hari imodoka y'umukara, inyuma yabo hakaba hari umugabo ndetse n'umusekirite. Inyuma yabo hakaba hari inzu ifite icyapa cyanditseho unguka finanse.

Umukuru w'igihugu w'u Rwanda Hizi Egiserensi Paul Kagame, akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yambariyemo ishati y'umweru, karavate y'ubururu, amarinete afite ibirahuri bibonerana.

Imboga zigiye zitandukanye zirimo karoti, puwaro, amashu ndetse n'izindi, zikaba ziri kuma etageri aho zigiye ziri mu byiciro.

Inzu nini, ifite inkingi nyinshi, ikorerwamo ubucuruzi, hakaba harimo ibiribwa bigiye bitandukanya inyanya, intoryi, pavuro, ibitunguru hakaba harimo n'utudobo tugiye duteretse aho ibyo bintu biri, hakaba harimo abantu benshi.

Isoko ririmo abantu benshi, hakaba hari ibicuruzwa by'ibitenge byinshi bifite amabara agiye atandukanye, hakaba hari umugabo wambaye agapira k'umutuku cyangwa se umugore utagaragara mu maso.

Abagore babiri bakenyeye ibitenge bakaba bambaye ibyo hejuru bisa, bakaba bari imbere y'ubutaro buriho ibiribwa, hirya hakaba hari abandi bamama bagiye batandukanye.

Abantu barimo abagore n'umugabo wambaye ingofero y'umukara, n'isengeri y'umuhondo n'ipantaro y'umukara n'inkweto zifunguye zifite ibara ry'umukara n'umweru, bakaba bari imbere y'inzu ya etaje n'indi isanzwe.

Abantu benshi bari mu isoko, hakaba harimo abagore bambaye ibitenge, hakaba harimo imbuto n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye bahacururiza.

Imodoka nyinshi zifite amabara atandukanye z'ubwoko bugiye butandukanye, zikaba ziri mu muhanda wa kaburimbo zimwe zikaba ziparitse izindi zikaba zigenda, akaba ari amazu menshi yegereye iyo mihanda ya kaburimbo.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bya medi ini Rwanda bigiye bitandukanye, hakaba harimo abantu, gusa hakaba hagaragara umukobwa umwe wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi.

Abantu barimo umugabo, umugore bakaba bari ahantu hari ibiribwa bigiye bitandukanye umugabo akaba yicaye imbere hakaba hari imineke, ibitoki ndetse hakaba hari n'umugore uhagaze utagaragara mu maso ndetse n'undi mugore wicaye utagaragara mu maso.

Abagore bari ahantu mu isoko ricururizwamo imyenda, hakaba harimo imyenda myinshi itandukanye gusa itagaragara neza, iyiganjemo ibitenge, imipira ndetse n'ibindi.

Inzu nini ifite parafo y'umweru ikaba icururizwamo ibiribwa, harimo ibitunguru, inyanya, puwaro ndetse n'ibindi, hakaba harimo abagore bahagaze harimo uwambaye umupira w'umutuku, igitenge, unakenyeye igitenge mu mutwe, hakaba n'undi mugore wambaye umupira w'umutuku.

Ibiribwa biri hasi, birimo amateke, ibitoki, karoti, ndetse n'ibindi biribwa byinshi. Imbere yabyo hakaba hari abagore n'abagabo bahagaze. Akaba ari abantu benshi cyane.

Kanditso payi wivu momo peyi, hakaba handitseho akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego, hakaba handitseho furi ofu cage, hakaba hari indi mibare yandikishije intoki, magana atandatu ijana na mirongo inani na gatatu, bikaba byanditse mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri. Umugabo ndetse n'umugore, umugore akaba yambaye agapira ka lakosite gafite ikora ry'umuhondo, imbere yabo hakaba hari imashini ya mudasobwa ndetse umugabo nawe akaba yambaye ishati y'umweru

Intoki zifashe telefoni ya simati pfone, akaba ari umuntu gusa utagaragara neza, iyo telefone hakaba hagaragaramo umweru n'imibare.

Icyapa kinini cy'umuhondo cyanditseho shopu andi peyi wivi momo peyi, akaba ari icyapa gifite inyuguti zanditse mu ibara ry'umukara munsi yacyo hakaba hari ikindi gifite ibara ry'ubururu cyanditseho viza.

Umugore wambaye itaburiya ya MTN, akaba yambariyemo agapira k'umuhondo, akaba ari mu nzu irimo ibintu byinshi, bigiye byandagaye impande n'impande, hirya ha akaba ari kontineri y'icyatsi.

Akazu k'umuhondo kanditseho mobayiro mane na MTN, imbere yako hakaba hahagaze umuntu utagaragara neza mu maso.

Inzu ntoya ifite ibara ry'umuhondo mwinyinshi yanditseho MTN imbere yayo hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara n'imbere muri iyo nzu hakaba harimo umugore wambaye agapira k'umukara.

Abagabo babiri umwe akaba yambaye agapira ka MTN k'umuhondo akaba yambaye rinete zifite ibirahure bubonerana undi nawe akaba yambaye agapira k'umukara gafite uturongo tw'umweru ndetse n'amatuku utagaragara neza ndetse imbere yabo hakaba hateretse imashini.

Akazu ka Eyateri imbere gafite idirishya rifunguye, gafite ibara ry'umutuku ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'umuhondo imbere y'ako hakaba bahagaze abantu batatu.

Ikarita y'umuhondo, ikaba yanditseho momo peyi, hakaba hari n'andi magambo yandikishijwe n'intoki akaba ari imibare, icumi, mirongo inani na kane, na cumi na gatatu, andi magambo ari kuri iyo karita akaba ari mu ibara ry'umukara yandikishijwe n'imashini.

Imodoka zo mu bwoko bw'isuzu akaba ari eshanu zose ziparitse ahantu hamwe zifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Umugabo wambaye agashati k'icyatsi yasetse cyane ufite amverope mu ntoki ya kacyi, irimo ibiribwa intoryi, amazi n'ibindi bitagaragara neza imbere akaba yateretse akabokisi ka vubavuba.

imodoka iparitse ifite ibara ry'umutuku inyuma yayo hakaba ari icyapa cyo kwamamaza cyanditseho, online market kikaba kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru hakaba hariho nimero ushobora kubabonaho zandikishije ibara ry'ubururu.

Umugabo utwaye moto akaba ahetse igikapu gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara rya oranje, akaba yambaye agapira k'umuhondo na kasike y'umutuku, ipantaro y'ikoboyi, akaba atwaye moto.

Inzu ifite parafo y'umweru, itara ry'umweru, ikaba ifite inkuta z'umweru, aho bashira televiziyo h'umweru, utubati, hakaba harimo n'intebe n'imeza y'umweru ikaba iherereye i Kigali.

Igipangu gifite ibara ry'icyatsi n'umweru, akaba ari igipanpu cy'umukara gifite amapave ya kaki n'umutuku, hejuru kikaba gifite akadizayine gafite ibara ry'icyatsi.

Iherereye mu rwanda mu mujyi wa kigali ikaba iherereye i kanombe akaba ari inzu ifite igisenge gifite amabati y'umutuku, akaba ari inzu ya kadasitere ikaba ifite amapave y'umweru umutuku n'umukara.

Tuwarete irimo ubwiherero bufite ibara ry'umweru, ikaba ifite amakaro ayaga abonerana, ikaba ifite purafo y'umweru ndetse hakaba hari itara ryaka umwero, ikaba ifite ibyumba bibiri, akaba ari inzu ifite ibyumba bibiri iherereye i Remera.

Babiri bari mu nzu y'umweru irimo intebe z'umweru ndetse na televiziyo ifite ibara ry'umukara, akaba ari umugore n'umugabo. Umugabo akaba yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara mugihe umugore we yambaye ikanzu.

Inzu ifite inkuta z'umweru, amakaro y'umweru, ikaba iherereye Kacyiru Kigali, ikaba ikodeshwa igihumbi na magana atanu by'idolari ku kwezi.

Inzu ifite parafo y'umweru, ikaba ifite inkuta ziriho amakaro, hirya hakaba hari amayesikariye, hakaba hari umuntu ugaragara mu gikoni wambaye ishati y'umweru gusa mu maso hakaba hatagaragara neza.

Inzu ifite inkuta z'umweru, ikaba ifite parafo y'umweru, iriho itara rimurika umweru, hasi hakaba hari amakaro afite ibara ry'umweru n'umukara, hirya hakaba bari utubati tw'umukara.

Jaride y'icyatsi ikaba iri imbere y'inzu ifite ibara ry'umweru n'igisenge kitagaragara neza hirya hakaba hari iyindi nzu hejuru hakaba hamanitse ikigega cy'umukara.

Igikoni kirimo amakaro y'umweru, utubati tw'umweru n'utw'umukara kikaba gifite ibikuta biriho amakaro, parafo ikaba ari umweru, ikaba imanitseho itara ry'umweru, kikaba kiri mu nzu ikodeshwa igihumbi na magana atanu by'amadorari.

Iherereye ikiba ikaba ifite igipangu cy'umweru gifite urugi rufite amapine, akaba ari inzu ya etaje ifite parikingi nini ndetse ikaba ifite n'ibara rijya gusa nk'umweru.

Ikibanza kirimo ubutaka n'ibyatsi bikeya, kikaba giherereye Bumbogo, kikaba kigurishwa miliyoni cumi n'eshanu, hirya hakaba hari igipangu cyubakishijwe amatafari ya mpunyu, hakaba hari n'andi mazu afite igisenge kiriho amabati y'umukara.

Inzu ifite utubati tw'umweru, intebe y'icyatsi, hakaba harimo akameza k'umweru, ikaba ifite parafoy'umweru, inkuta z'umweru, ikaba iherereye i Kigali, ikaba ikodeshwa amadorari magana atanu na mirongo itanu.

Inzu iherereye Kabeza i Kigali ikaba ikodeshwa amafaranga magana atanu mirongo itanu y'idorari, hakaba harimo icyumba gifite igitanda cy'umukara gisashe amashuka y'umweru, umusego w'umweru, ndetse kikaba gifite inkuta z'umweru na purafo y'umweru.

Inzu ya etage iherereye i Kigali ikaba ari inzu ikodeshwa igihumbi na magana atanu by'idolari. Akaba ari inzu igeretse ifite amadirishya afite ibirahuri bibonerana, hanze hakaba hari pasiparume ndetse n'ibiti.

Icyumba gifite amakaro, kikaba gifite amarido, kikaba gifite urukuta rw'umweru, hakaba harimo igitanda gishashe, kikaba kirimo imisego ibiri.

Ubwiroherero burimo lavabo aho bakarabira intoki hakaba harimo n'ikirahure birebamo kikaba gifite inkuta z'umweru ibyo bikaba biri mu nzu iherereye i kanombe igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu.

Inzu ya etaje ifite igisenge cy'umutuku, ikaba ifite ibipangu bibiri by'umukara, ikaba iherereye Kimironko, ikaba ifite ubwiherero bubiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu, igaragara igipangu, gifunguye. Akaba ari inzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu, hepfo yayo hakaba hari indi nzu ya kadasitere, ifite igisenge cy'umutuku gifite amabati y'umutuku.

Inzu iherereye kicukiro ikaba ifite ibyumba bitatu, ubwiherero bubiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane ikaba ifite ibara ry'ubururu burimo n'umweru mukeya inzugi z'umukara n'ibirahuri bya fime.

Inzu ifite inzugi z'umukara, ibirahure bibonerana, inkuta z'umweru, itara hejuru kuri parafu. Ikaba ifite ibyumba bitatu, ubwiherero butatu, aho barira ndetse n'aho batekera.

Inzu ifite inzugi z'umutuku ikaba ifite ibirahuri by'ubururu n'amadirishya y'umutuku n'ibirahuri bya fume by'ubururu , akaba ari inzu imbere ifite pasparume ikaba igura miliyoni cumi na zirindwi.

Inzu iherereye kicukiro ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri mirongo itanu ku kwezi, ikaba ifite ibyumba bibiri. Akaba ari inzu ifite ibara rye gusa' ubururu inzugi z'umweru zifite ibirahuri bya fime amakararo y'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, akaba ahagaze mu mbuga iri imbere y'inzu, iyo mbuga ikaba irimo amapave afite ibara ry'umutuku n'umukara ndetse na kaki.

Akabati karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, kakaba gateretseho imashini y'umukara, akaba n'ibindi biteretse hejuru, akaba hari n'akayitajeri karimo ibindi bicuruzwa, hirya hakaba hari abantu babiri umuzungu wambaye ikabutura y'ubumweru n'umupira w'umweru na silipa n'undi mugore uri muri kotwari wambaye ishati y'umweru.

Abantu benshi bari ahantu hacururizwa ibintu, hakaba harimo abagore, abagabo, hakaba hacururizwa ibintu gusa bitagaragara neza.

Umugore utagaragara neza wambaye agakanzu k'umutuku akaba afite akantu bahahiramo, akaba ari mu nzu icururizwamo iyo nzu ikaba ifite amakaro y'umweru, hakaba harimo ubu etajeri bwinshi burimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inzu irimo amashakoshi menshi agiye atandukanye, amanini, amato akaba ari mu mabara agiye atandukanye, hakaba harimo abantu benshi bahagaze, hakaba harimo uwambaye ingofero n'ishati y'ubururu.

Abantu batatu umwe akaba yambaye umupira wa oranje n'ipantaro y'ikoboyi n'inkweto z'umweru undi akaba yambaye umupira wa jampa w'umukara, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, hakaba hari n'undi urimo hirya utagaragara neza wambaye agapira k'umukara, bakaba bari ahantu mu nzu irimo ubu etaje bwinshi.

Umugore ufite imisatsi isutse akaba yambaye umupira w'umweru urimo n'ibara ry'umutuku. Akaba afite amvelope mu ntoki, akaba yambaye ipantaro y'umukara, akaba ari mu nzu nini irimo ibiribwa bigiye bitandukanye, inyanya, ibitunguru.

Ikarita y'ubwishingizi ya mituweli, ikaba ifite ibirango biri mu ibara ry'umukara n'umweru, ikaba ifite inyuguti zanditse mu ibara ry'umukara.

Abamama benshi harimo abafite abana, bakaba bari kureba imbere, bakaba bari ku cyapa cya mituweri kiri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Abantu babiri barimo umugabo umwe wambaye akarakosite k'umweru n'umugore umwe wambaye akarakosite k'umweru kanditseho arasisibi, bakaba bicaye mu ntebe z'umukara inyuma yabo hakaba hari icyapa kirimo arasisibi.

Abantu benshi bari mu nzu ifite inkuta z'ibara ry'umweru, amadirishya y'umweru, hakaba arimo abasaza n'abagore, bakaba bafite ibipapuro mu ntoki.

Abagore benshi bari mu nzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'agahondo akaba harimo n'umugabo umwe, mu gihe abandi bagabo batagaragara neza bakaba bicaye ku ntebe bategereje bafite impapuro mu ntoki.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge akaba yasetse, akaba afite agatambaro mu mutwe k'umweru. Inyuma ye hakaba hatagaragara neza hakaba handitse ejo heza. Ni mu magambo biri mu mabara y'ubururu n'icyatsi.

Ikarita y'ubwishingizi ya mituweli, ikaba ifitwe n'ibiganza nyirabyo akaba atagaragara, akaba ari ikarita ifite ibara ry'icyatsi cyerurutse n'inyuguti zanditse mu magambo y'umukara.

Umugabo wambaye agapira ka la kosite. Akaba afite mikoro mu ntoki. Ndetse ako gapira kakaba kanditseho Arasesibi. Imbere ye hakaba hateretse agacupa k'amazi. Hirya ye hakaba hari umuntu wambaye impuzankano za gisirikare ufite idarapo ry'u Rwanda ku kuboko, akaba atagaragara mu maso. Inyuma ye hakaba hari icyapa kiriho abantu babiri cy'Ejo Heza.

Inzu irimo utubati twinshi turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye hakaba harimo umugabo umwe ufite icupa wambaye imyenda yubururu n'inkweto z'umukara zifunguye inyuma ye hakaba hari undi mugore wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umutuku wunamye utagaragara mu maso.

Inzuzu nini ifite amakaro y'umweru, ikaba ifite parafo, ikaba irimo ama etajeri menshi arimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo umugabo uri gutambuka, wambaye imyenda y'umukara, gusa utagaragara mu maso. Hakaba hari n'undi mugore utagaragara neza.

Abantu babiri umwe akaba yambaye umupira w'icyatsi n'ipanta y'ioboyi. Undi akaba ari inyuma ye wambaye umupira wa japa ndetse n'ingofero y'umuhondo, akaba arikumafotora. Uwambaye umupira w'icyatsi akaba ateruye ibintu bibiri, bakaba bari mu nzu irimo amaetajeri menshi.

Inzu nini ifite amakaro y'umweru na kaki, ikaba irimo etajeri nyinshi zirimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye: ama ji, ama padi n'ibindi.

Inzu nini irimo etajeri nyinshi hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ikaba ari inzu ifite idafite parafo, hakaba harimo amatara y'umweru.

Umugabo wambaye ishati ya karo karo ndetse akaba yambaye ipantaro y'ikoboyi n'inkweto z'umukara, akaba ari mu nzu ikorerwamo ubucuruzi, ifite amakaro y'umweru, ikaba ifite etajeri nini.

Etajeri ifite imyanya igiye itandukanye, ikaba irimo ibiribwa bigiye bitandukanye, aho harimo; urusenda, kokombure, tangawizi, imbere yayo hakaba hahagaze umugore ufite agakapu k'umweru uri kureba kuri ibyo biribwa.

Inzu nini ifite inkuta z'umweru, purafo y'umweru, amakaro y'umweru, hakaba arimo etajeri nyinshi zigiye zirimo ibintu bitandukanye, amapapiye jenike, amavuta, amasabune ndetse n'ibindi byinshi.

Inzu nini icururizwamo, ikaba irimo umugabo umwe uri gufotora, wambaye ishati y'umukara ndetse n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara akaba afite akagare bahahiramo.

Umugore wambaye umupira w'umutuku, akaba yambaye itaburiya ya shokora, imbere ye hakaba hateretse imashini, akaba ari mu nzu irimo ibiribwa, akaba yicaye ku ntebe y'umutuku.

Imodoka igaragara igice y'umukara, ikaba iparitse imbere y'inzu ya etaje ifite imiryango itatu yo hasi ifunguye, imiryango ikaba ifite ibara ry'umweru, hanze hakaba hari akantu bakandagiraho bagakaraba.

Abantu bari mu iduka, hakaba harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo, wa lakositi, ufite ikora ry'ubururu no ku maboko h'ubururu, akaba ari kumwe n'undi mugabo wambaye jezi, inyuma yabo hakaba hari umugabo utagaragara neza ugaragara mu mugongo, wambaye na we umupira w'umuhondo.